Urubyiruko rwahuriye hamwe mu nama, harimo umukobwa umwe bahaye ijambo afite mikoro ari kuvuga uko abyumva, afite na telefone mu ntoki, abandi bari kureba imbere.

Siporo rusange yahuje igitsina gore n'igitsina gabo harimo abambaye imyenda ya siporo harimo n'abambaye imyenda isanzwe, bari muri sitade bari kwiruka.

Inama yahuje abayobozi batandukanye, ya komite mpuzabikorwa y'Akarere ka Nyagatare, iriho icyapa kivuga ngo umuturage ku isonga, serivisi inogeye bose.

Inama yahuje igitsina gore n'igitsina gabo, bose bicaye bashyize amaboko ku meza, harimo abari kwandika, harimo abari gufotora, harimo n'abakurikiye, bari kumva ibyo uri imbere ababwira.

Abasore bateze amaboko bari kubyina imbyino za Kinyarwanda, bateganye n'abakobwa nabo bari kubyina, bari muri sale bari mu marushanwa yo kubyina.

Agaseke kari mu mabara y'umweru n'umukara gateretse ku meza kajyamo nka mironko eshatu, imbere yako hari igikuta gisize irange ry'umweru.

Umusambi ubohesheje imikwegwe n'ubunyondo ukase neza urambitse ku itaka ugeretse hejuru y'undi, impande yaho hari ibyatsi.

Udukoresho dukozwe mu biti, tukunze kwifashishwa mu gushyiramo amata, kunywamo amata, bikunze gukoreshwa n'abantu borora inka nyinshi.

Mu kibindi giteretse ku ngata ,kibohesheje ibiti, kibumbishije ibumba, gishinzemo umuheha, gitetse ku meza, kigaragaza ishusho ya gakondo.

Abanyeshuri ba kaminuza bari kumwe n'abayobozi babo bakoranye inama, imbere yabo hahagaze umudamu ufite mikoro, ari kubaririmbira ateze n'ukuboko.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, hejuru yayo hariho umurasire utanga umuriro ukomoka ku izuba, imbere yayo hari ishyamba.

Sitade yesitayemo ibikoresho by'irangururamajwi, inyuma yayo hari abaturage benshi bahicaye bicaye ku murongo bategereje abayobozi kuri sitaje.

Inyubako y'Akagari ifite ibara ry'umweru n'inzugi z'ubururu, imbere yayo hari umugabo uri gufungura hari n'umumama uri kuza ahagana.

Inyubako bakiri kubaka iriho abafundi benshi bari gushinga ibiti ibindi biri hasi, hari n'abayede bari kubahereza, hagati harimo umuhanda.

Ivomera ry'amazi rituriye impande y'umuhanda rifite aho bavomera habiri, impande yaryo hatuye abantu, hari amazu y'ubucuruzi imiryango ifunze, hari n'umuyonzi uri gutambuka.

Kaburimbo ndende irimo ibyerekezo bibiri, ikikijwe n'urwuri ku ruhande rw'iburyo n'urundi rwuri ku ruhande rw'ibumoso, ku mpande zayo hari inzira z'abagenzi.

Inyubako y'urukiko rwa Nyagatare, imbere yayo hicaye abantu batatu b'abagabo, ku ruhande rwo hepfo hicaye umumama utegereje ko bamwakira.

Ibiro by'Akagari ka Kabare bifite irangi ry'umuhondo, bisakaje amabati y'umweru, hatari umuriro bifite umurasire, imbere ya byo hari ibendera ry'u Rwanda.

Abaturage bari mu nama bari kuganirizwa n'umuyobozi, imbere yabo hicaye abayobozi batandukanye harimo n'umusirikare umwe n'umupolisi umwe n'umudaso, bari imbere y'inyubako isakaje amabati y'ubururu.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu wanditseho Gs uhagaze hagati y'abamama, impande ye hari abana babanyeshuri ba segonderi bicaye munsi y'igiti imbere y'urutoki.

Inama y'abayobozi batandukanye higanjemo abamama n'abagabo baje kwibuka, impande yabo hahagaze umupolisi bose bambaye furari zo kwibuka, imbere yabo hari indabo bicaye mu itente.

Icyapa cyerekana inzira y'abagenzi, gishinze kuri kaburimbo imbere yacyo hari ikindi kiriho aga fresh kareba imbere biri impande y'ishyamba ririmo ibiti birebire.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, ku ruhande hari ivuriro rya kirinike hari gutambuka umusore n'inkumi.

Kaburimbo irimo icyapa, kiri mu mabara yu'mweru n'umutuku, munsi yacyo hari ishyamba, ririmo n'ibiti, byarabye indabo z'umuhondo ndetse hasi hari ibihuru.

Umuhanda ugaragara, inzira y'abagenzi muri kaburimbo n'aho abantu bambukira, imbere hari indi kaburimbo byambukiranyije hicayemo umuntu, impande yayo hari amazu y'abantu.

Kaburimbo igaragaza aho ibinyabiziga byemerewe kunyuranaho, ku ruhande rwayo hari inzira y'abagenzi, munsi yayo hari inzu z'ubucuruzi.

Umusore wambaye ikabutura n'umupira wa orange, uri kugenda yinjira mu nzu y'ubucuruzi iri mu mabara y'umweru, ifite amakaro hasi, impande yayo hari indi nzu ifunze, hariho na kimyamwoto.

Icyapa cya i eni ijana na mirongo itanu na kabiri, kiri hejuru y'umuhanda, imbere yacyo hari ibihuru birimo n'urutoki, munsi yacyo hari kaburimbo munsi ya kaburimbo harimo amazu y'ubucuruzi.

Inama y'abaturage benshi bahuriye hamwe, barimo igitsina gore n'igitsina gabo, bari kuganirizwa n'umuyobozi wabo, ku ruhande, hari za mayikorofone zirangurura amajwi kugira ngo bose bumve.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru babiri bahagaze mu byatsi bambaye imyenda isa, inyuma yabo haparitse moto, ku ruhande hari igikapu cyabo, bari imbere y'inzu isakaje amabati y'umutuku.

Kaburimbo, irimo abantu bari kugenda, irimo n'imodoka ipakira imizigo, ku mpande yayo hari ibiti biyikikije, hari ncyapa cya resitora mu ruhande rw'iburyo.

Umuhanda wa kaburimbo uparitsemo ikamyo ipakira amakesi y'inzoga, impande yayo hahagaze abantu babiri umwe iburyo undi ibumoso, hakurya hari indi kamyo nayo itarapakira.

Abagabo babiri bari mu muhanda w'igitaka. Umwe yambaye bote undi yambaye bodaboda, wambaye imyenda isa nabi. Bagaragara nk'abakarani. Imbere yabo hari umunyonzi ufite amajerekani ku igare.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibyatsi bya pasiparume, urimo igicucucucu cy'umuntu ku ruhande hari ibyuma hari na senyenge.

Inzira nyabagendwa y'igitaka ikikijwe n'ibyatsi ku ruhande, irimo n'amabuye, ibyatsi bya pasiparume bitaswe.